Inzego zishinzwe umutekano: RlB, hamwe n'abasirikare, abapolisi, bafite ubushobozi n'ubunararibonye bwo gucunga umutekano wo mu mazi, bigatuma abakoresha inzira zamazi bose bagira umutekano uhagije.

Abapolisi bari mu mafunzo yabo cyangwa bari muri siporo itandukanye. Bari mu gikorwa cyo kugorora imibiri yabo cyangwa gusubiramo inyigisho baba bigishijwe n'ababayobora.

Umuyobozi mu nzego z'umutekano ari kuganiriza abayoborwa, abaha uburyo bagomba gutuma amabwiriza, y'uburyo bagomba gutunganya akazi kabo bakagakora neza kinyamwuga.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo. Aho hari kubera amarushanwa yumukino w'amagare, umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda, ari kuyobora abari mu masiganwa inzira bari bukoreshe.

Inzego z'umutekano ziri mu gikorwa cyo kwigisha uburyo bwo kuzimya inkongi z'umuriro mu baturage batandukanye.

Abapolisi bo mu ishami rishinzwe kwifashisha imbwa zagenewe gusaka imizigo itandukanye, hagamijwe kureba ko iyo mizigo itarimo ibitemewe, birimo ibisasu ndetse n'ibiyobyabwenge.

Polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu mazi, aho bari mu myitozo iganisha ku bikorwa bakora bakura umuntu waguye mu mazi, bagamije kurokora ubuzima bwe.

Itsinda ry'inzego z'umutekano ziri kwerekana uburyo ziteguye guhosha imyigaragambyo, zambaye imyenda yifashishwa mu guhosha imyigaragambyo zifite n'ibikoresho byagenewe gukoreshwa mu gihe cyo guhosha imyigaragambyo.

Umuyobozi mu ishami rishinzwe umutekano wo kurinda ibintu n'ibintu byabo. Atanga ubutumwa butandukanye bugenewe Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga muri rusange, kugira ngo umutekano wabo wubahirizwe kandi ugende neza.

Umugore ufashe ijambo abaza abayobozi bayoboye inama, ibibazo bitandukanye ku byabahurije hamwe.

Mu cyumba cy'inama ahahuriye abayobozi batandukanye biga kuri gahunda y'icyabateranije, bagamije kugifataho umwanzuro urambye.

Mu nama ahahureye abayobozi batandukanye bari kwiga kuri gahunda za leta, aho umugabo abaza ibibazo bibangamiye imibereho y'abanyarwanda muri rusange.

Inama y'abayobozi batandukanye bahujwe n'igitekerezo kimwe. Cyangwa kwiga ku bibangamye hagambiriwe, ku gushakira ibisubizo birambye ndetse no kubiha icyerekezo.

Abantu benshi bahagaze ahantu bahuriye n'ubundi ari benshi, ikigaragara bari mu isengesho ritangiza cyangwa risoza igikorwa cyabahuje.

Inama yateraniyemo abayobozi batandukanye bari kuganira kuri gahunda za Leta, cyangwa se indi mishinga ijyanye n'icyabahuje. Higanjemo abagabo, abagore bakurikiye icyigishwa.

Mu bukwe aho abantu benshi buzuye ibyishimo, bahuriye mu rwego rwo gususurutsa umuryango basuye, ndetse banakiriwe mu buryo butandukanye, aho bishimye, baramukanya, baganira, banezerewe.

Abantu bari ku meza mu buryo buri wese, ari kwiyarurira ibyokuryayumva ashoboye, aho bigaragara ko banezerewe kandi bishimiye ifunguro bari gufata.

Mu nama ahateraniye abayobozi batandukanye bagizwe n'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore ,aho umwe muri abo bayobozi afashe ijambo aganiriza bagenzi be ku ngingo nyamukuru y'ibyo bari kwigaho ,bagamije gushaka igisubizo kirambye kuri byo.

Nyuma y'inama, aho abayobozi bari gushyikiriza abayoborwa ibyemezo cyangwa se seritifika z'imikorere myiza bagaragaje.

Inama ihuje abayobozi batandukanye bigiramo ingingo nyamukuru, ibangamiye imibereho ya muntu cyangwa se ifasha kwiteza imbere kw'abayoborwa.

Isekuru igitebo n'ibikoresho gakondo byakoreshwaga kera byifashishwa mu gutunganya imboga, mu gutwara ibisarurwa uyu munsi wa none bigenda bisimbuzwa, n'utushiniw'ikoranabuhanga ariko heshi mu cyaro uyu munsi ibikoresho biracyakoreshwa.

Umutiba wororerwamo inzuki inzuki ni udusimba dutanga ubuki, ubuki bwifashishwa mu buvuzi butandukanye ndetse bukanifashishwa nk'ikirungo.

Intore ziri kwerekana ziri mu myiyereko zerekana uko imbyino zibyinwa mu buryo butandukanye. Hari intore ziri kumwe n'ababyinnyi basanzwe, bose barigisha ndetse barerekana uko bigenda mu myiyereko.

Mu muco nyarwanda kuva kera, hari ibikoresho byifashishwaga nk'ibyo mu rugo mu gihe cy'umusaruro utandukanye w'ibinyampeke, berekana uburyo ibyo bikoresho byabonekagamo n'uburyo byabohwaga.

Isaka riri mu murima ariko ntiyeze. Ishakaya iyo ryeze rigaragara mu ibara ritukura, aho mu kurisarura baca ihundo ryo hejuru, igiti cyaryo kigasigara cyangwa kigatemwa nyuma kikarambikwa, kikazifashishwa mu isasiro n'ibindi.

Umuco gakondo aho abasore ndetse n'inkumi bagaragara nk'itsinda ry'ababyinnyi bari mu gikorwa cy'imyiyereko.

Abagabo barikubaza ibikoresho mu biti. Ibi bikoresho bigaragaza umuco w'iwacu i Rwanda aho byifashishwa mu mirimo cyangwa ibikorwa bitandukanye.

Umugore uri gukama inka, inka y'inyamahane baziritse kugira ngo idatera imigeri uyikama, ndetse ikaba ishobora no kubogora aya mata ari mu ndobo.

Ingoma ni igikoresho cyifashishwa mu myiyereko cyangwa mu birori bitandukanye， aho ugifite cyangwa se ugikoresha， afata uduti twitwa umurishyo，agakomaho kikavuza urusaku rwumvikana，rwumvikanira hejuru kikaryoshya ibirori.

Itsinda ry'ababyinnyi bitwa intore, bari mu myiyereko Aho ubonako bari kubyina kandi bafite ababareba.

Ibikoresho by'ubugeni gakondo byifashishwa bikoreshwa mu mitako cyangwa imideli itandukanye ndetse bikanifashishwa bigurishwa ababikeneye bigatanga amafaranga azahura ababikoze cyangwa igihugu muri rusange.

Ifoto y'intore. Intore ni ababyinnyi babyina indirimbo gakondo bagakora nk'igikorwa cyitwa guhamiriza. Ni muri urwo rwego intore zikundwa cyane n'abazireba iyo ziri mu mihamirizo yazo.

Umuco nyarwanda : Kera mu muco nyarwanda wasangaga urwarwa cyangwa se ikigage kiri mu ntango nziza gipfutse mu buryo bufuse, hirya no hino hari abicaye bagiye kugikoresha.

Intore ni itsinda ry'ababyinnyi bashinzwe gususurutsa abitabiriye ibirori bitandukanye, intore ziba zambaye ibikoresho gakondo birimo imigara, bafite amacumu abajwe mu ntoki, basusurutsa ibirori ku buryo bwishwe bwishimiwe na buri wese.

Umugore wambaye imyenda izwi ku izina ry'imikenyero, uhagaze yemye impande y'indabo. Imikenyero ni imyenda ikunda kwambarwa mu birori igaragaza umuco nyarwanda.

Umucuranzi w'umuduri, umuduri ni umwe mu miziki ya kera, iryoheye amatwi, ifite injyana nziza, icurangwa ukumva umuntu aranezerewe ku buryo bwose. Uyu munsi ntabwo ugikunze gukoreshwa, ariko wakundaga gukoreshwa mu muco nyarwanda, ku ndirimbo gakondo.

Umunyabugeni ni umuntu ukora ibikoresho bitandukanye mu abikura mu biti ,aho abaza amasekuru, imihini yayo ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buzima butandukanye.

Intore ni itsinda ry'abantu bahuzwa n'igikorwa cyo kubyina indirimbo gakondo, mu gihe hari ahahuriye abantu benshi. Ni imbyino ziri mu buryo bwa gakondo buryoha kubureba kandi bunogera amaso, baba bambaye ibintu mu mutwe bita imigara bafite amacumu.

Ibikoresho gakondo byifashishwa mu rugo cyane cyane amonse no mu caro ibikoresho hose babisangayo. Isekuru hifashishwa abatunganya ibinyampeke ndetse n'imboga. Mupira w'akarere bifashishwa n'abana batoya bawukina. Igitebo cyifashishwa gishyirwamo imyaka itandukanye yeze.

Igiti cyishamba bita umuko ni igiti cyifashishwa babaza ibikoresho bitandukanye, aho ibikoresho bigurishwa, bigatanga amafaranga azamura iterambere ry' umuryango.

Ibikoresho gakondo byifashishwaga cyangwa byifashishwa na n'ubu ahantu hamwe na hamwe hatandukanye, aho usanga nk'icyibo cyifashishwa mu bukwe, igisabo kikifashishwa mu bukwe, inkoko ikifashishwa bagosora.

Inkono y'itabi bakunda kwita ikijigo, kera wasangaga mu cyaro hahingwamo itabi ry'ibibabi. Bakaritunganya iyo ryumye, barangiza bakarijyana rikagurishwa, bakarivugurara bagashyira mu iki kijigo bagashyira ku munwa bagatumura.

Ingoma, igikoresho gakondo cyifashishwa mu gihe cy'ibirori aho abitabiriye ibiro ibyo birori bashimishwa no kureba ndetse no kumva urusaku rwacyo kuko rutuma mu birori hasusuruka.

Intore ziri guhamiriza, intore ni itsinda ry'ababyinnyi babyina indirimbo cyangwa imbyino gakondo mu gihe cy'imyiyereko yazo, zerekera mu birori bitandukanye.

Ingoma igikoresho gakondo， kifashishwa mu gihe cy'ibirori. Ingoma barayivuza ikagira ijwi ryiza ndetse bikaryohera amatwi， ku buryo iyo bakoresheje igikoresho cy'ingoma， ibirori bigenda neza kandi bikanezeza ababyitabiriye.

Itorero ni itsinda rigizwe n'abantu batandukanye bahujwe n'umurimo wo gususurutsa ibirori. Itorero rihimba imbyino zitandukanye rikazimurika cyangwa zikifashishwa mu gihe cy'imyiyereko y'ahahuriye abantu benshi.

Inyubako cyangwa se inzu za kera zikoresheje ibyatsi by'umwimerere zarangaga umuco nyarwanda, tubonamo n'ibikoresho gakondo byifashishwaga kera.

Inanga ni igikoresho gakondo cyifashishwa bakora umuziki w'indirimbo gakondo zitandukanye. Kigira injyana nziza y'amajwi, my kiririmba mu buryo bujyanye n'injyana y'indirimbo bashatse barimo kuririmba.

Ababyinnyi. Ababyinnyi ni itsinda ry'abantu babyina indirimbo zitandukanye, bambaye umwenda wabugenewe, bagambiriye gushimisha ndetse no gususurutsa itsinda rya benshi ryateranye.

Imbehe ni igikoresho nyarwanda cyakundaga kwifashishwa n'abantu ba kera bakakiriraho ibiryo bitandukanye.

Igikoresho kizwi ku izina ry'umuvure. Ni igikoresho cyifashishwaga ndetse n'ubu cyifashishwa hamwe na hamwe mu caro, batunganya umusaruro ukomoka ku bihingwa.

Inka z'inyambo ziriri mu rwuri ziri kumwe n'umushumba wazo izi nka ni nka nziza cyane, bakunda kwerekana mu gihe basuye inzu ndangamurage, bakazimurika mu rwego rwo kugira ngo zibafashe mu byishimo by'aho basuye.

Ifoto igaragaza intore ziri mu myiyereko, intore ni itsinda ry'abantu babyina mu buryo bw'imihamirizo mu gihe cy'ibirori.

Isekuru ni igikoresho gakondo, cyifashishwa mu rugo batunganya ibirungo bitandukanye byo mu biryo, cyangwa batunganyirizamo imboga z'ubwoko butandukanye.

Ibikoresho gakondo byifashishwa mu gihe cyo gusurana, aho bitwarwamo ibintu bitandukanye. Bishobora kwifashishwa na none bigurishwa bikinjiza amafaranga ashobora kunganira igihugu, cyangwa umuryango muri rusange.

Ababumbyi b'inkono cangwa se ibibindi. Inkono ni igikoresho cakundaga kwifashishwa cera bakagitekamo ibishimbo, bakagerekaho ibirayi cangwa se ibigori, ndetse hari n'abagitekagamo ibijyo bitandukanye. Ushobora gusanga bamwe babumba inkono abandi babumba ibibindi bakoresheje itaka ry'umwimerere.

Ibicuma ni ibikoresho gakondo byera ku ruyuzi rurandaranda byifashishwa mu gushyiramo ibinyobwa bitandukanye, aho ababikoresha bagenda basangira bifashishije iki gikoresho cyitwa igicuma.

Telefoni igikoresho cy'ikoranabuhanga kifashishwa mu buryo bw'itumanaho, ku bari hafi cyangwa abari kure cyifashishwa na none mu buryo bwo gufata amafoto, ushobora kwifashisha y'urwibutso muri ejo hawe hazaza.

Isizo igikoresho cyifashishwa iyo bakata ibintu bitandukanye gishobora kwifashishwa mu gihe cya instoration y'imiriro aho usanga bayifashisha mu gukata insega z'amashanyarazi.

Porojegitere ni igikoresho cy'ikoranabuhanga gihuzwa n'imashini zo mu biro cyangwa se zigendanwa, bashaka kwereka itsinda cyangwa imbaga nyamwinshi, y'abateraniye hamwe uburyo ibiri mu mashini bimeze bakabibonera aho berekeje iyo porojegiteri.

Ipensi ni igikoresho kifashishwa mugihe cyo gukata utwuma duto duto turimo nk insinga z'amashanyarazi mu gihe bari kwensitara, bari gushyira umuriro w'amashanyarazi mu nzu zitandukanye.

Imashini zifashishwa mu gihe bareba uko umuriro w'amashanyarazi uri kugenda. Imashini ni igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu ikoranabuhanga gituma akazi kagenda neza.

Inzira ndetse n'icyapa bigaragaza aho urusengero rw'Abadiventisiti b'umunsi wa Karindwi basengera.

Urukiko. Uurukiko ni ahahurira abantu benshi bafite imanza bakurikirana zibangamiye ubuzima bw'imibereho yabo.

Inyubako ya leta itangirwamo serivisi zitandukanye hakererwamo abantu bose bagana serivisi zo mu buyobozi.

Urusengero, inzu yagenewe gukorerwamo ibikorwa byo gusenga Imana. Ahahurira abantu batandukanye bagahimbaza Imana, mu buryo bw'isengesho.

Urusengero rufite ubusitani imbere yarwo, hejuru hari ibikorwa remezo by'umuriro gw'amashanyarazi, ndetse hari insinga zica imbere y'urusengero hejuru ya jaride iri imbere y'urwo rusengero.

Icapa ciranga aho adeperi Cinzovu iherereye. Barerekana akayira kajayo uturuka kuri kaburimbo barangira buri mugenzi wese aho iri torero riherereye kugirango atayoba.

Ikigo cy'ishuri aho abana benshi bahererwa ubumenyi bubafasha， kuvamo abigirira umumaro. Aho umuyobozi w'ishuri cyangwa umuyobozi w'ikigo aba agendagenda hanze， areba，abataye amasosomo，kugira ngo abashishikarize kuyasubiramo.

Kwamuganga, ahari inyubako igaragaza serivisi zo kwamuganga, zitangirwa muri iyo nyubako, aho inyubako igaragaza aho ababyeyi babyarira.

Inyubako zigeretse zizwi ku izina rya etaje. Ni ahantu hashobora gukorerwa ibikorwa byo kwigishirizamo abanyeshuri bahabwa ubumenyi butandukanye.

Inzu ishobora gukorerwamo n'ubuyobozi bwite bwa leta cangwa hakifashishwa nk'insengero mu rwego rwo gutanga serivise kuri buri wese uyiceneye.

Urusengero ahahurira imbaga nyamwinshi y'abantu baje kuramya no guhimbaza Imana. Urusengero rwifashishwa nk'inyubako yashyizweho kugira ngo ihuze abantu benshi bavuga iby'izina ry'Imana.

Inzu zikorerwamo ibikorwa bitandukanye bya Leta aho hatangwa serivisi zitandukanye ku baje babagana.

Ku kiriziya cy'abagatorika aho haba ifoto cyangwa ishusho igaragaza Bikiramariya, ndetse inyuma hari urusengero abagatorika bahuriramo bahimbaza Imana.

Inyubako ya leta igenewe gukorerwamo ibikorwa bitandukanye aho ishobora gukorerwa, kwifashishwa nk'urusengero cyangwa i ikifashishwa nk'indi nyubako itangirwamo serivisi za leta.

Ibitanda biri mU nyubako za Leta, aho hashobora kuba aho abanyeshuri bacumbika cyanga se ahandi hahurira abantu benshi.

Inyubako yagenewe gusengeramo abo mu idini ya Isilamu, aho Abasilamu ari benshi barangije gusenga.

Inzu zifashishwa ahahurira abantu benshi, inzu dushobora gusanga zikorerwamo ibikorwa bya leta nk' amaofise aho abaturage baza babagana bakahabonera serivisi bifuza.

Aho abantu benshi bahurira mu rwego rwo guhimbaza imana, inyubako yifashishwa mu gihe cyo gusenga no mu gihe cyo kuramya imana kugirango abantu bagubwe neza. Gusenga ni umuco uhoraho utuma umuntu atekana muri we.

Inyubako igaragara nk'urusengero, cyangwa ahashobora kwifashishwa hakorerwa ibindi bikorwa bya Leta mu gihe bikenewe, aho hatangirwa serivisi nyinshi zitandukanye buri wese akenera.

Inzu zubatswe na Leta, zigamijwe gutuzwamo abantu batandukanye bagiye bimurwa ahantu hatandukanye, cyangwa se bafite ibibazo bitandukanye, mu rwego rwo kugira ngo babone uko bababumbira hamwe babiteho ku buryo buboroheye.

Aha ni muri gare, aho abagenzi bafatira imodoka, iyo bari mu ngendo zitandukanye bava aho bari, berekeza hirya no hino.

Inyubako ya leta igaragara nkiyifashishwa mu gukorerwamo, hatangirwamo serivisi zitandukanye, z'ubuyobozi cyangwa hakaba hakwifashishwa nk'urusengero aho hashobora gu guhuriramo itsinda ry'abantu benshi, bavuga ibyo ijambo ry'imana.

Inzu zubatswe zubatswe kimwe ndetse zisa, bigaragara ko ari Leta yazubatse nk'imidugudu mu rwego rwo gukura abaturage ahantu habi, babatuza aheza bijyanye n'icyerekezo ndetse n'iterambere ry'Igihugu.

Abantu bari kubaka imihanda, aho imihanda ari inzira nyabagendwa zifashishwa n'abaturage, cyangwa zikanyuzwamo ibinyabiziga bituma haba urujya n'uruza rw'abantu ndetse no kugendererana kw'abantu batandukanye.

Imudugudu w'icyitegererezo, muri gahunda ya leta harimo gahunda yo kubaka umudugudu w' icyitegererezo, mu rwego rwo kugira ngo abaturage bature heza, kandi hato, niyo mpamvu usanga barashyizeho imidugudu yama etage kugira ngo abaturage bose bahature ari benshi kandi mu gihe gito.

Inyubako za leta zizwi nk'amashuri, aho abana bigira amasomo atandukanye, abafasha kwivana mu bujiji abashyira mu bumenyi rusange, ndetse akanabafasha kuva mu kicIri bajya mu kindi.

ikiraro gihuza utugari tubiri mu rwego rwo kugirango habe imigendere imigendererano no koroshya izenguruka rya kure kuba baturage batuye mu tugari tubiri.

Urusengero rw'abakatorike aho haba hateranye abakirisito b'iri dini ku cyumweru. Baraterana, bagasenga Imana, iteraniro ryahumuza bagasohoka bagasubira muri gahunda za bo.

Mu nyubako ya Leta， ahantu hahurijwe abaturage， mu rwego rwo gukemura ibibazo bafite， hahuriye inzego zose z'ubuyobozi bugamije gutega amatwi umuturage， kugira ngo zimuhe ubutabera mu bibazo byose bimwugarije.

Mu nteko z'abaturage cyangwa ahandi hahurijwe abaturage benshi hagamijwe gusobanurirwa uburenganzira bwabo. Umuyobozi ushinzwe gutangariza abaturage ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu, aho abaha inyigisho zitandukanye.

Mu nteko z'abaturage ahatangirwa ibibazo bitandukanye bigamije gushyira umuturage ku isonga. Ni aho umuturage agaragariza ibibazo afite, abayobozi bakabikemura akabaho atabangamiwe.

Aho abayobozi batandukanye bateraniye, bumva ibibazo by'abaturage, hagamijwe kubikemura no kubaha ubutabera nyabwo. Bateze amatwi umuturage ubagezaho ikibazo cy'ubuzima busanzwe afite, hagamijwe ko bagishakira igisubizo kikabona umuti, umuturage agatuza

Mu nama aho umuyobozi afashe ijambo, abwira abitabiriye inama ibijyanye na gahunda za leta, ndetse abashishikariza kwitabira gahunda za leta zitandukanye.

Shopu bacururizaho amamoto, umukobwa aragaragara yishimye, ucuruza ibinyabiziga bya moto.

lifani, lifani ni ikinyabiziga cyifashishwa, mu buryo bwo gutaransiporuta ibicuruzwa cgangwa se ibindi bikoresho. Gitwara ibintu byinshi, bishobora kugera ahantu hatandukanye mu gihe cya vuba.

Imodoka itwara abagenzi ibageza ahantu ibavana, ikabageza ahantu hatandukanye baba bagiye gukorera gahunda zabo.

Abashoferi b'amagare bazwi ku izina ryabanyonzi, aho baparitse bategereje ko abagenzi bajya hirya no hino baza bakabaha serivisi yo kubatwara, babageza mu cyerekezo baganamo.

Umugore uri ku igare uhetse imizigo imeze nk'imboga cyangwa ibihaza. Werekeza mu cyerekezo kigana iwe mu rugo.

Ubwoko bw'imboga bupakiye mu modoka bujyanywe ahahurira abantu benshi, kugira ngo ababikenera babihahe, bagende babikoreshe mu buryo bwose bikenewemo. Imboga zidufasha mu gutunga imibiri yacu, ndetse bigira uruhare mu kudufasha kubona ubuzima bwiza.

Amagare abafite ubumuga bifashisha batwara imizigo nabo kandi ni nayo bagendaho abafasha mu buzima, bwabo bwa buri munsi mu buryo bwo kugenda ndetse no kugaruka akanabafasha, gutwara imizigo.

Muri parikingi y'amagare aho amagare ari ikinyamitende cyagenewe gutwara imizigo cyangwa abagenzi, kibigeza cyangwa kibageza ahantu hatandukanye. Bijyanye no kwifuza k'ugiye gukora urwo rugendo.

Imodoka zitwara abagenzi ziparitse mu buryo abagenzi baza kuzishaka aho ziparitse, kugira ngo zibererekeze cyangwa zibajyane mu ngendo zitandukanye ahantu hatandukanye.

Mu muhanda, aho abatwara abantu ndetse n'imizigo ku magare, batwaye abantu batandukanye, babajyanye ahantu hatandukanye, muri gahunda zabo.

Muri gare ahaparitse imodoka zo mu bwoko butandukanye, zitwara abagenzi zibajyana ahantu hatandukanye, mu buryo bwa rusange cyangwa mu buryo bushobora kwifashishwa nka pirive.

Moto ziparitse ku nkengero y'umuhanda, mu kayira kagenewe abanyamaguru. Ziteguye gutwara abagenzi baza bazigana, bashaka gukora ingendo z'urujya n'uruza ahantu hatandukanye.

Izi ni imodoka za kampani, itwara abagenzi ya kibiesi, ziri mu muhanda.

Muri gare ahahurira urujya n'uruza rw'abantu benshi batandukanye bari mu ngendo. Tuhasanga ibinyabiziga byinshi bikeneye gutanga serivise kuri abo bose baje mu bahagana.

Itsinda ry'abamotari rikora umwuga wo gutwara abagenzi, riri aho rigurira izi moto ndetse batangiye gusuzuma ko moto baguze ari nzima.

Mu ndege aho abakozi bakora mu ndege bari kwifotoza ndetse bagaragaza nuko imyanya yo mu ndege, igenda yicarwaho n'abagenzi batandukanye.

Itsinda ry'abakora umwuga wo gutwara ikinyabiziga cya moto， bambaye ibibaranga，icyo twita ijire zifashishwa nk' umwenda， ugaragaza abamotari.

Gare ya Muhanga. Ahahurira abantu benshi. Ahagaragara urujya n'uruza rw'abagiye gutega ibinyabiziga. Harimo imodoka zitandukanye, amagare ndetse n'ibindi byifashishwa mu ngendo nka moto.

Umuyobozi w'ikinyabiziga bita Rifani aho aparitse iki kinyabiziga cye yiteguye kugitwara, Rifani ni igihe ubwoko bw'ikinyabiziga gitwara imizigo.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo buri rusange, aho umugenzi wese ufite aho yerekeza bisi ikahanyura ayitega ikahamugeza.

Abagenzi bari mu modoka itwara abagenzi ahantu hatandukanye, izwi nka kwasiteri cyangwa bisi yagenewe gutwara abagenzi, bari mu rugendo rujya hirya no hino.

Muri parikingi aho amakamyo atwara imizigo itandukanye aparitse.

Muri gare ahari urujya n'uruza rw'abagenzi. Harimo ibinyabiziga bitandukanye，byerekeza ahantu hatandukanye.

Imodoka yifashishwa mu gutwara imizigo aho ipakiye inyanya zeze, izijyana mu masoko atandukanye.

Abakinnyi b'umukino w'amagare, bari mu myitozo. Igare ni umukino ukunzwe cyane, ushimisha amaso ku abawureba. Abantu benshi barawukunda kandi baranawushigikira.

Umwana uri ku igare ryifashishwa hifashishwa bagenda buri munsi, ndetse igare tukaba tuzi ko ryifashishwa nk'igikoresho gifasha abantu muri tiransiporo, bava hamwe bajya ahandi hatandukanye.

Gare Kinyamitende iriho abashoferi bayo aribo bazwi ku izina ry'abanyonzi. N'abantu bakora umwuga wo gutwara abantu n' ibintu ku igare.

Siporo. Muri siporo tubonamo abakora ibikorwa byo gushyira umubiri kuri gahunda bagabanya ibinure bibangamiye imibereho myiza yabo tubonamo abahembwa iyo bubahirije igikorwa cya siporo uka gisaba ko gisaba.

Siporo igikorwa cy'igororamubiri aho gikunzwe cyane, kuko gituma ubuzima bwa muntu bugenda neza, bikamurinda kurwaragurika ndetse bikatuma agira amagara mazima. Siporo aho tureba umukino uri gukinwa na bamwe mu bakunzi ba siporo.

Siporo aho siporo ari igikorwa kigororamubiri gikorwa mu buryo butandukanye aho abari muri siporo biruka bagenda badunda umupira bagamije gutsindana.

Pisine, pisine ni uburyo bwashyizweho bwo gukora siporo yo mu mazi, uyikoze yo aroga ajyamo akoga muri ayo mazi, ingingo zose z'umubiri zikabasha kurambuka neza kandi umubiri ugakora neza.

Umukino w'amaboko uzwi ku izina rya voreboro. Umukino mwiza cyane, umukino utuma ingingo zose z'umuntu zirambuka. Umukino ushimisha amaso ku ku bigo by'ishuri usanga uyu mukino ukunzwe cyane kuko n'umukino uryohera amaso ubawureba.

Siporo aho ahagaragara umukinnyi uri muri Siporo, uri mu kibuga cy'umukino witwa Tenis arimo akina.

Siporo yo koga mu mazi ni siporo nziza cyane inanura ingingo zose z'umuntu, ku buryo yumva aguwe neza kandi umubiri we utabangamiwe.

Siporo y'umukino wa basiketibolo ni siporo nziza cyane ikorwa badunda umupira hasi ndetse bakawuterara hejuru mu byo bita paniye hanyuma igitego kikaba kirabonetse.

Umukino w'amaboko uzwi ku izina rya vore aho ukinwa barenza umupire umupira fire yagenewe gukinirwaho, uba ufite abafana batandukanye kuko ni umukino ukundwa cyane.

Siporo ahahurira abantu benshi bagamije ibikorwa by'igororamubiri, binezeza kandi bituma ubuzima bwa muntu burushaho kugenda neza ,ndetse no kugubwa neza.

Siporo umukino wa basiketi, aho ari mu mukino ndetse hari n'abafana n'abatoza, babatoza gukora uyu mukino.

Siporo, siporo ni igikorwa rusange gikorwa nitsinda riri mu marushanwa atandukanye yo mu mukino wigare aho abatsinze bahembwa ibihembo bishimishije kandi bitandukanye.

Siporo, abantu bakunda siporo bagambiriye kugabanya ibinure mu mubiri wabo, bagambiriye gutuma umubiri ugubwa neza, abantu benshi bakunda siporo y'umupira w'amaguru, nkuko bigaragara, hari ababa bambaye imyenda itandukanye yabugenewe, yifashishwa mu gikorwa cya siporo. Siporo ni nziza, ni ingirakamaro mu buzima bwa muntu.

Siporo ibikorwa rusange by'imyidagaduro ikorewe mu kibuga mu kibuga gikinirwamo umukino wa volebolo, aho uyu mukino witabiriwe n'abafana benshi.

Ku kibuga ahakinirwa umukino wa tenisi, aho umuntu arimo gukina uyu mukino, akoresheje igikoresho cyifashishwa ndetse n'umupira wifashishwa muri uwo mukino.

Siporo igikorwa cy'igororamubiri gituma ubuzima bwa muntu bugenda neza, kandi butuma umuntu agira amagara mazima.

Ahantu hazwi nka pisine aho pisine zikunda kuboneka mu mahoteri atandukanye, aho abagannye ayo mahoteri bidagadurira boga mu mazi agaragara muri izo pisine.

Siporo, ahakorerwa imikino ya siporo itandukanye, aho tubona ikibuga gikinirwaho umukino wa volebolo.

Siporo y'umukino w'umupira w'amaguru, aho umupira w'amaguru ari umukino ukunze kurebwa nabantu bose, kuko ni umukino ukinwa mu buryo buryoheye amaso kandi bushimishije abawureba.

Siporo yo kwirukanka siporo nziza cane inogera amaso ikunze kwibasirwa n'urubyiruko bari kwiruka mu buryo bw'isiganwa, bambaye n'imyenda yifashishwa muri siporo.

Ahantu hagenewe gucuru gucururiza imyenda ndetse n'ibikoresho bya Siporo, ahagaragara abagabo babiri baje kugura imyenda yagenewe kwifashishwa muri Siporo ndetse n'imipira yifashishwa hakorwa Siporo.

Abakinnyi ba tenisi. Tenisi ni umukino mwiza cyane ukundwa n'abantu benshi, bakunda kureba bakanawufana. Gusa ni umukino uzwi, ukinwa n'abantu bake. Ariko n'umukino ugaragara neza, uryoheye ijisho.

Umukino wa tenisi. Turabona umwarimu wigisha, werekana uburyo bakoresha umukino wa tenisi ndetse n'uburyo bashobora kuba bawukina, ahagaze mu kibuga nyirizina, aho umukino ukinirwa, ndetse afite igikoresho cabugenewe, bifashisha bacina uwo mucino.

Umuntu ni gukora siporo, siporo n'igikorwa cy'igororangingo kigamije gushyira ubuzima bw''umuntu kumurongonko, kugira ngo bimurinde kurwaragurika, ndetse no ku kubacana ingingo z'umubiri we.

Siporo ahahurira abantu benshi bitegereza, ibikorwa bikigorororamubiri bibere gukorwa, siporo bidufasha kugorora imibiri yacu no kuyishyira kuri gahunda y'imibereho yimibereho myiza.

Umuntu uri muri siporo, aho bigaragara ko ari umukinnyi w'umukino witwa tenisi, ndetse ufite n'igikoresho cy'uwo mukino mu ntoki ze.

Siporo ahahurira abantu benshi nko mu masitade cangwa se ahandi hantu habugenewe, siporo ihurerwamo ikorwa mu rwego rwo gushyira ubuzima bwa muntu muri gahunda y'imibereho myiza, ndetse ukagabanya ibinure, kugira ubuzima bukomeze bugende neza.

Siporo hifashishijwe imodoka zifashishwa mu gihe cya siporo rusange, ubwo aba bashobora kwifashishwa mu masiganwa hagamijwe kureba uzaba uwa mbere agahembwa.

Ahantu hakorerwa umukino w'amaboko uzwi nka Bicivole, ikinirwa ahantu higanje umucanga mwinshi, ugakinwa n'abantu batandukanye.

Siporo, gahunda ya siporo hifashishijwe ibinyabiziga bizwi mu bwoko bw'imodoka.

Inzira zifashishwa mu rujya n'uruza rw'abagenzi, bifashishije umuhanda, ndetse n' ahagana ku nkengero zawo.